Mu burezi bw'ibanze, umunyeshuri wese agomba kuba azi gukoresha imashini iyo twise laputopu, u Rwanda ruri kugenda rugera mu isi y'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu buri muntu wese asabwa kuba azi laputopu akayikoresha neza, bityo bizadufasha kugera ku iterambere mu buryo bwihuse kandi burambye.

Ikigo cy'abanyeshuri barimo abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'abo mu mashuri yisumbuye baje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu nsanganyamatsiko igira iti turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, ni byiza ko twibuka abanyeshuri bagenzi bacu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi twibuke twiyubaka.